Kera hari imiti gakondo yifashishwaga mu kubungabunga ubuzima bw'abantu, twasangagamo nk'imiti y'ibyatsi, yabonekaga mu ishyamba, ndetse n'ahandi hatandukanye, yakoreshwaga mu buryo bwo kwivuza, cyangwa kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Hari imiti twifashisha bitadusabye kujya kwa muganga. Hari imiti gakondo dushobora gukura mu byatsi kandi tukayinywa ikaba yadufasha tugakira tutagombye kujya kwa muganga nk'iyo miti ivuye mu byatsi bigiye bitandukanye.